Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo bitarera harimo umugabo uhetse igikoresho cy'ubururu cyifashishwa mu kuvomerera imyaka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bageza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo umuceri utarera, hagati mu murima harimo umugabo uri gutera umuti wica udukoko. Inyuma y'umurima w'umuceri hahinzwe ibigori.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo, bishingirijwe ibiti, hagati mu murima hari umugabo wambaye imyenda y'umuhondo, uhetse igikoresho cyifashishwa mu gutera umuti ku bihingwa.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubafasha kugera kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, hepfo yaho hari ikiyaga cyiza cyane gifite amazi meza, hagati mu murima w'ibigori harimo umugabo uri gutera umuti.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'ubuhinzi mbaturabukungu ikawa ihinzwe mu murima munini itarera, hagati mu murima harimo umugore wambaye imyenda y'umutuku uri gutera umuti ku ikawa.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bageza kuri byinshi. Umurima munini ushinzwemo ibigori bitarera hagati mu bigori harimo umugabo uri gutera umuti mu bigori wambaye umupira w'ubururu.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu buhinzib bw'indabo n'ibindi bihingwa byose, indabo nziza ziri mu murima, umugabo uri kuzivomerera uhetse igikoresho mu mugongo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bageza kuri byinshi bukabafasha kubona ibyo kurya, umurima munini uhinzwemo ibirayi, harimo umugabo uhetse igikoresho cyifashishwa mu gutera umuti ku myaka.

Ubworozi bukomeje gutezwa imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'ubuhinzi bikomeje kugendera hamwe, umurima munini uhinzwemo ibigori, imbere yaho hari abantu bafite ibikoresho byifashishwa mu gutera umuti mu myaka bagiye gutera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'umuceri kuko bageza kuri byinshi babona ibyorya bakabona n'amafaranga, umurima munini uhinzwemo umuceri utarera, hagati mu murima harimo umugabo wambaye ishati y'umweru uri kuvomerera umuceri.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga n'umurava mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo umuceri utarera, hagati mu murima harimo umugabo wambaye ishati y'umutuku ,uhetse igikoresho cy'umuhondo cyifashishwa mu kuvomera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bakomeje gushyiramo imbaraga. Igishanga kinini gihinzwemo umuceri utarera. Harimo umugabo wambaye ingofero n'agapfukamunwa uri kuvomerera umuceri.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, hagati mu murima harimo abagabo babiri bari gutera umuti ku bigori.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo umuceri, hagati mu murima harimo abagabo batatu bahetse ibikoresho byifashishwa mu gutera umuti ku myaka no kuyivomerera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bu bageza kuri byinshi bukabafasha kubaho neza. Ubuhinzi bw'imboga bukorerwa mu murima urusenda, amashuahinzwe mu murima umwe, hagati mu murima harimo umugabo wambaye imyenda y'umweru uri gutera umuti wica udukoko.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga kugira ngo babone ibibatunga kandi babeho neza, ikiyaga kinini gikorerwamo ubworozi bw'amafi, hagati mu kiyaga harimo umugabo ufite indobani yarobye amafi.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere bakora byose, igishanga kinini gihinzwemo umuceri utarera, imbere y'umuceri hari umugezi munini uhagazemo n'abagabo batanu bari kuroba.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi kuko bubageza kuri byinshi bubafasha kubona ibyo kurya nk'ibikomoka ku matungo, amafi yororewe mu kiyaga kinini, hagati mu kiyaga harimo abagabo babiri ku ruhande rumwe n'abandi batatu bose bari kuroba.

U Rwanda ni Igihugu kiza gifite ibyiza nyaburanga nk'ibiyaga bikorerwamo ubworozi bw'amafi, ibiyaga biri mu kabande hari umugabo uri kuroba inyuma ye hari urutoki.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashakira iterambere Igihugu, ikiyaga kinini gihagazemo abagabo bane bari kuroba amafi bayabonye, inyuma yabo hari ubusitani bwiza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amafi kuko bubageza kuri byinshi bigatuma babaho neza bakihaza mu biribwa bikomoka ku matungo. Igishanga kinini gihinzwemo umuceri hepfo hari ikiyaga kirimo abagabo bari kuroba.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu bintu bakora byose, ikiyaga kinini gikorerwamo ubworozi bw'amafi, amafi manini cyane yamaze kurobwa, imbere yaho hari abagabo babiri, bavuye kuroba bambaye imyenda y'umukara.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe, bashaka icyabateza imbere. Imirima minini ihinzwemo umuceri, haruguru hari ibiyaga bikorerwamo ubworozi bw'amafi. Haruguru y'ibiyaga hagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amafi, ikibaya kinini cyororerwamo amafi hari imigezi irimo amafi, hejuru y'ikiyaga hari umugabo ufite ibase irimo amafi wambaye umupira w'umuhondo.

U Rwanda ni Igihugu cyiza gifite imisozi miremire, imigufi, ibibaya. Ikibaya kinini kirimo ibyuzi barobamo amafi, iruhande hari inyubako zisakajwe amabati y'ubururu, hakurya hari amashyamba manini.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga bashaka icyabateza imbere, u Rwanda rw'imisozi igihumbi rugizwe n'ibyiza nyaburanga nk'ibiyaga birobwamo amafi, abagabo bari kuroba amafi, umwe ahagaze mu mazi abandi bari ku nkengero.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amafi kuko bubageza kuri byinshi bukabaha ubuzima bwiza mu kuyarya. Ikibaya kinini kirimo icyuzi cy'amafi, haraguru y'icyuzi hicaye umugabo.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe, bashaka ibyabateza imbere, ibiyaga binini bikorerwamo ubworozi bw'amafi, hahagaze abagabo bane hejuru n'undi umwe uri mu kiyaga hagati, imbere yabo hari inyubako isakaje amabati y'umweru.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu buhinzi bwa kijyambere. Umurima munini uhinzwemo umuceri, inyuma hari ibiti birebire, hakurya hari imisozi ituweho n'abantu, bubatse inyubako zisakaje amabati y'umweru. Hagati mu gishanga harimo umugezi ufite amazi atemba.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amafi kuko bubafasha kubaho neza bakabona ibyokurya bikomoka mu mazi. Ikiyaga kinini cyororewemo amafi harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu uvuye kuroba.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi mu bworozi, gukorera hamwe ,umurima munini uhinzwemo umuceri ,imbere y'aho hari ibiyaga bifite amazi ,yifashishwa mu kuvomerera ibi bihingwa.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere bakorera mu matsinda. Ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiyaga kinini kirimo abagabo bari kuroba, iruhande hahagaze abandi bagabo harimo umwe ufite ikayi mu ntoki.

Igihugu cy'u Rwanda ni Igihugu kiza gifite ibyiza nyaburanga, imisozi miremire, imigufi n'ibibaya. Ikibaya kinini gikorerwamo ubworozi bw'amafi haraguru y'aho hahinzwe insina, impande hari amashyamba manini.

Ubuhinzi n'ubworozi bikomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu kiza kigizwe n'imisozi miremire, imigufi n'ibibaya. Ikibaya kinini kirimo ibyuzi bororeramo amafi, hagati hagiye habamo utuzu dusakajwe amabati.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kinini gihinzwemo umuceri utewe ku mirongo itambitse, icyo gishanga kirimo umuceri utarera, iruhande hari umugore uri kureba umuceri.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo umuceri utarera, imbere yaho hari umugore n'umugabo bari kubagarira uwo muceri, impande hari ishyamba rinini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ikawa igihingwa mbaturabukungu, harimo umugore wambaye umupira w'umukara witeze igitambaro cy'umweru uri gusuramo ikawa yeze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihingwa mbaturabukungu k'ikawa gihinzwe mu murima. Igiti kiriho ikawa yeze n'itarera impande hari umuntu.

U Rwanda ni igihugu kiza gifite imisozi miremire, imigufi n'ibibaya. Ikibaya kinini gihinzwemo igihingwa mbaturabukungu nk'icyayi, hagati mu murima harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku. Iruhande hakikijweho amashyamba meza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibihingwa ngandurabukungu nk'ikawa bihinzwe mu murima munini ibiti bimwe birenze ibindi ntibirera, hagati mu murima harimo umugore wikoreye indobo uri gusoroma ikawa.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, ibihingwa mbaturabukungu nk'ikawa ihinzwe mu murima munini imwe ireze indi ntirera, hagati mu murima harimo umugabo wambaye isaha ku kuboko uri gusuroma ikawa.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'igihingwa mbaturabukungu cy'ikawa gihinzwe mu murima munini, iyo kawa ntirera, imbere hari umugabo uri kureba ikawa.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'icyayi igihingwa mbaturabukungu, umurima munini uhinzwemo icyayi harimo abagore babiri bahetse ibitebo bari gusoromeramo, imbere y'icyayi hahinzwe ishyamba rinini cyane.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'ibihingwa mbaturabukungu by'ikawa bihinzwe mu murima munini harimo n'insina, hagati mu murima hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umuhondo.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga bashaka icyabateza imbere, igihingwa ngandurabukungu cy'icyayi gihinzwe mu murima munini, inyuma gikikijwe n'amashyamba afite ibiti bikuze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihingwa ngandurabukungu nk'icyayi gihinzwe mu murima munini, hagati harimo abagore bahetse ibitebo, bari kugenda basoromeramo icyayi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igitebo gisaruriwemo ikawa, igihingwa mbaturabukungu cyinjiza amafaranga ku bahinzi no mu gihugu cyacu bujyanwa hanze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihingwa mbaturabukungu cy'ikawa gihinzwemo mu murima munini, ikawa imwe imaze kwera indi nti rera imbere hari ibiti birebire bikikije iyo kawa.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto, umurima munini utegurirwamo imbuto za avoka, harimo abagore, abagabo, bafite amabase bari gutwaramo imbuto bazijyana kuzitera mu yindi mirima.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihingwa mbaturabukungu nk'icyayi gihingwa mu turere dutandukanye tw'u Rwanda. Ubuhinzi bunini bw'icyayi, hagati mu cyayi harimo abagabo babiri bahetse ibitebo bari gusoroma.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu buhinzi, igihingwa mbaturabukungu nk'icyayi, kirimo abagore babiri bahetse ibitebo bari gusoroma, inyuma yaho hari ibiti birebire.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini icururizwamo imiti y'amatungo, imiti imwe iri mu macupa y'umweru, indi iri mu makarito afite amabara y'umweru n'irindi cupa rifite ibara ry'icyatsi.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'amatungo magufi nk'inkoko ziri mu nzu yazo, ziri kurira mu bikoresho bisa umweru, umutuku, zitanga amagi abantu barya.

Ubworozi bukomeje gushyirwamo imbaraga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba kinini kirimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo. Imiti imwe iri mu ku makarito, indi iri mu macupa y'ibyuma.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubwo abanyarwanda bazanirwa imiti yifashishwa mu kwita ku matungo, inzu nini icururizwamo imiti y'amatungo itandukanye.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bukomeje kwitabwaho ubwo bazana imiti y'amatungo, amagufi n'amaremare, icyumba kinini kibitswemo imiti y'amatungo yifashishwa mu kuyavura indwara.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi. Imiti y'amatungo iri mu ndobo z'umweru no mu makarito y'umweru ibitswe mu cyumba kiza cyane kirimo irangi ry'umweru.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini nziza cyane ibitswemo imiti y'amatungo yifashishwa mu kuzirinda uburwayi, imiti iri mu makarito y'umutuku.

Ubworozi bw'amatungo maremare amagufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi. Inyubako nini ibitswemo imiti y'amatungo iri mu makarito afite amabara y'umutuku n'ay'icyatsi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi n'amaremare. Hazanywe n'imiti yifashishwa mu kuvura amatungo. Icyumba kinini kibitswemo imiti y'amatungo iri mu macupa y'ibyuma by'umukara.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo kuko budufasha kugera ku iterambere ryiza cyane. Inyubako nziza cyane ibitswemo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo igihe yarwaye.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini icururizwamo imiti y'amatungo imwe iri mu macupa y'umweru indi mu macupa y'umuhondo buri cupa rishushanyijweho inyamaswa.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, inzu nini icururizwamo imiti yifashishwa mu kurinda amatungo uburwayi, iri mu macupa afite amabara y'umweru maremare n'amagufi.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane cyita ku bworozi. Inyubako nziza cyane irimo imiti y'amatungo imwe iri mu macupa y'umweru indi iri mu makarito y'umutuku, imbere yaho hari ameza arambitsweho indi miti.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo, amaremare nk'inka. Inyubako nini, icururizwamo imiti y'amatungo, iri mu bujerekani bw'umweru, indi iri mu makarito y'umweru, ashushanyijeho inka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi kuko bibageza kuri byinshi. nyubako nziza cyane irimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo magufi, imwe ishushanyijeho inkoko hari n'indi ishushanyijeho inkwavu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, abagore n'abagabo bafatikanya gukorera hamwe bakashaka icyabateza imbere. Umurima munini uhinzwemo ibirayi bitarera, hagati mu murima harimo umugore n'umugabo bari kubibagara.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe abagore, abagabo, abahungu, abakobwa, bose bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi; umurima munini uri guhingwamo abagabo n'abagore.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, cyane cyane ubw'amatungo maremare nk'inka zitanga amata n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi. Inka iri mu kiraro n'umugabo uri kuvuruganya.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini urimo abagore n'abagabo, bamwe bambaye imipira y'icyatsi bafite avoka mu ntoki zabo, harimo n'umugore ufite avoka wambaye ingofero y'umukara.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo intoryi, hagati mu murima harimo umugabo wambaye isaha ku kuboko uri gutera igiti. Inyuma ye hari undi murima uhinzwemo ibigori.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igishushanyo kiza kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu, hashushanyijweho inka ihagaze mu byatsi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi, umurima munini uhinzwemo ibigori byeze hagati mu murima harimo umugore ufite umuhoro mu ntoki ze uri gutema ubwatsi bw'amatungo.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere, abagabo babiri bafite igare ririho inkwi zo gucana, hejuru hariho isuka, umugabo umwe ari imbere, ari kuyobora igare, inyuma hari undi uri gusunika.

Abanyarwanda bakomeje kwita ku bidukikije nk'ibiti bituma duhumeka neza. Ikibaya kinini gitegurirwamo ibiti byo kujyanwa gutera ku misozi miremire, hagati harimo abagore n'abagabo bari kurandura ingemwe zo gutera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo, amaremare n'amagufi. Itungo rirerire nk'inka iri mu kiraro cyayo ihagaze. Iruhande hari umushumba wayo wambaye umupira w'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo umuceri utarera, harimo abagore bane bari kuwugarira umugore umwe afite isukari ntoya niyo ari gukoresha abandi bari kubagaza intoki.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bita ku bidukikije, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo harimo abagore, abagabo, bari gutera ibiti hagati no ku mpande.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'ubuhinzi bw'imbuto. Ikibaya kinini gitegurirwamo imbuto zo kuzajyanwa gutera ku misozi miremire. Hahinzwemo imbuto za avoka n'imyembe.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo umuceri, hagati mu murima harimo igiti kirekire no ku mpande hakikijweho ibiti, mu murima hagati hahagazemo abagore umwe yikoreye inkwi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto bita ku mbuto, umurima uhinzwemo ipapayi rifite amapapayi atarera, hari abagabo babiri n'abagore babiri bari kureba icyo gihingwa.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi, bukabafasha kubaho neza. Umurima munini uhinzwemo ingano. Imbere yaho hari abahungu babiri, bafite amasuka ku rutugu, bambaye imyenda y'imikara

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, harimo umugabo ufite igiti ugiye kugitera muri uwo murima. Inyuma ye hari undi murima munini udahinzwe.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare. Igikuyu kinini kirimo inka zifite amahembe maremare imwe ihagaze mu muhanda indi iri hagati mu gikuyu inyuma yaho hari inyubako yubakishije ibiti.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bu bageza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo umuceri, hagati mu murima harimo inzira iri kunyurwamo n'abagore babiri, umugore umwe afite icupa mu ntoki undi afite umuhoro. Iruhande hari ishyamba.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bakorera hamwe bafashanya bashaka icyabateza imbere. Umurima munini uhinzwemo ibigori, harimo abagore n'abagabo bari kubyitaho.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu bworozi bw'amatungo magufi. Ubusitani bunini buhagazemo abagore, abagabo n'abana, buri umwe afite igipapuro mu ntoki ze, imbere yabo hari inyamaswa z'ingurube.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga muhinzi kuko bubafasha kugera kuri byinshi bakabona ibyorya. Umurima munini uhinzwemo ibigori harimo abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe wambaye imyenda y'umutuku.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo byeze, harimo n'imyumbati. Iruhande hari undi murima uhinzwemo ibishyimbo biri kumera n'umugore uri gushyira igiti mu mwobo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibaya kinini gihinzwemo umuceri utarera. Harimo umugore uri kubagarira umuceri, witeze igitambaro cy'umutuku. Inyuma ye hari inkweto z'umukara n'umufuka w'umweru.

Ubworozi bw'amatungo maremare, bukomeje gutera imbere nk'inka zitanga umukamo, ifumbire yifashishwa mu buhinzi, ibiraro binini byubatse mu buryo bwa kijyambere, harimo umugabo uri kuvuruganya.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo nk'amaremare, inka zitanga amata n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi, ishyo ry'inka ziri mu biraro zifite ubwatsi imbere yazo.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe mu gushaka icyabateza imbere, isoko rinini rikorerwamo ubucuruzi bw'amahene, urujya n'uruza rw'abantu baje kugura amahene abandi baje kuyagurisha, isoko rikikijwe n'ibiti birebire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi. Ibihingwa byiza cyane nk'inanasi zihinzwe mu murima, nyuma y'aho hari insina nyinshi, imbere mu nanasi hahagazemo abantu babiri n'umugabo umwe wicaye.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bageza kuri byinshi ubafasha kubona n'ibibatunga. Umurima munini uhinzwemo imyumbati, imwe ireze, indi ntirera. Umugore n'umugabo bahagaze mu murima bavuye gusarura imyumbati.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo umuceri weze harimo abagabo babiri umwe ari gusunika igare ririho ibiti inyuma hari undi mugabo uri kugenda, hagati mu muceri harimo ibiti birebire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwa cyijyambere ,kuko bubafasha kubona umusaruro mwiza cyane, umurima munini uhinzwemo ibigori ,buri giti cy'ikigori gifite ibigori bibiri kandi binini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi, isoko rinini riri gucururizwamo inyanya, intoryi ,n'imbuto nyinshi. Harimo abagabo n'abagore bari guhaha.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihingwa cy'ibijumba cyongera imbaraga mu mubiri w'umuntu. Umurima munini ukorerwamo ubuhinzi bwo guhinga ibijumba, imigozi myiza cyane iri mu murima.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi. Umurima munini urimo umugabo uri gutera umuceri, imbere ye hari isuka iruhande hari undi muceri basoje gutera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi bukabafasha kubaho neza. Igishanga kinini gihinzwemo ibisheke, iruhande hakikijeho ibiti birebire.

Imboga ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu n'imbuto ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bari kugura imboga n'imbuto karoti, inyanya harimo n'imineke.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi ukabafasha kubona ibyo kurya. Umurima munini uhinzwemo imyumbati hino hari undi murima utarahingwa, harimo ibiti bikuze cyane.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, bahinga kijyambere, bahingira hamwe ibihingwa, umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, impande hari undi murima uhinzwemo umuceri.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere muri byose. Ikarito nini irimo inyanya imboga z'imiteja, amacupa arimo amavuta, iki cyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo ibigori byumye byasaruwe imbere yaho hari ibiti by'imyumbati n'umugabo uri kugenda impande.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere, umurima munini umaze guhingwa utaraterwamo imyaka n'undi udahinzwe uri iruhande, inyuma y'aho hahinzwe urutoki.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini urimo igiti cy'umwembe, utarera, iruhande hahinzwe imyumbati n'ibishyimbo bitarera. Imbere hari ibindi bishyimbo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo ibigori n'ibishyimbo, imbere yaho hahinzwe ibihwagari. Undi murima wasaruwemo ibigori.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo urutoki rwiza cyane, iruhande hakikijweho indabo zifite amabara meza y'umuhondo, inyuma hari undi murima udahinzwe.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukomeje gukorwa mu Rwanda kuko bageza kuri byinshi. Isoko ricururizwamo imbuto n'imboga, hagati mu isoko hahagazemo umugore ufite umwembe na karoti.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bageza kuri byinshi, umurima munini uhinzwemo imyumbati, impande hari igiti cy'umwembe kitarera, hepfo hari ibiti byiza cyane, hari n'undi murima utarategwamo imyaka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo indabo zifite amabara y'umweru hagati hahinzwemo ibigori byeze inyuma hari ibiti birebire imbere hari inyubako itaruzura.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi. Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga n'umurava mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo umuceri utarera, harimo abagore bari kuwubagarira.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko budufasha kugera kuri byinshi, kubona n'ibyo kurya. Umufuka munini, urimo ibirayi byiza cyane by'umweru, byakuwe, byumutse.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo insina, imbere yaho hahinzwe imboga. Hagati mu nsiana hahinzemo ibigori bitarera byiza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, umufuka urimo ibirayi byiza cyane binini biri hamwe, imbere y'aho hari umugabo uri kugenda ashyira ibirayi mu mufuka wambaye ishati y'umweru.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu buhinzi bw'imboga kuko bubafasha kugira ubuzima bwiza. Imboga ni ikiribwa cyiza kirinda uburwayi. Umurima munini uhinzwemo imboga z'inyabutongo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi. Inyubako nziza cyane isakajwe amabati, ifite inzugi z'ubururu. Imbere yayo hahinzwe urutoki rwiza cyane, hari n'insina imwe ifite igitoki.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga kuko bubafasha kugira ubuzima bwiza. Umurima munini uhinzwemo imboga z'inyabutongo imbere yaho hari imyumbati itarera nayo ihinzwe mwuwo murima.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto kuko bubageza kuri byinshi ,umurima munini uhinzwemo amapapayi iruhande hakikijweho imyembe ,muri uwo murima hashinzwemo igiti cyifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga kuko imboga ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu buturinda uburwayi. Umurima munini uhinzwemo inyabutongo zeze inyuma yaho hari umuntu uje gusoroma wambaye umwenda w'ubururu.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubuhinzi bw'imbuto nk'indimu iri mu murima itarera. Imbere yaho hahinzwe inyanya nazo zitarera, hakikijweho ibiti binini.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi. Ikibaya kinini cyane, gihinzwemo ibirayi, bitare, byiza cyane. Imbere y'umurima, hari ikindi kibuga kiriho igiti, gisizwe irangi ry'umutuku n'umweru.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu buhinzi bw'imbuto kuko bubafasha kubaho neza. Umurima munini udahinzwe, hagati harimo igiti cy'ipapayi kitarera, inyuma y'aho hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'umuhondo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo urutoki hamwe n'ibindi biti binini birinda amasuri. Hari ikibuga kinini kiziritsweho inka nziza cyane ifite amabara y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi, umurima munini uhinzwemo ibigori harimo n'urutoki hagati mu murima harimo ipapayi ritarera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, kuko bubafasha kubaho neza no kubona ibyo barya, ikibaya kinini gihinzwemo umuceri utarera, haraguru hari ibigori byiza cyane, harimo icyapa gifite ibara ry'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo urutoki, imbere y'aho hahinzwe ibigori, hepfo hahinzwe imyumbati itarera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u rwanda. Umurima munini uhinzwemo urutoki n'ahandi hadahinze, mu murima hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara uri gukorera urutoki neza.

U Rwanda ni igihugu cyiza, gifite ibyiza nyaburanga nk'amashyamba meza cyane, atewe ku misozi. Umubande munini uhinzwemo imyaka, ruguru yaho hari amashyamba meza, hari atewe ataratemwa, hari n'ibindi biti byatemwe.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibigori, harimo ibiti birebire. Umurima wundi utarahingwa uri impande y'uhinzwe, haraguru yaho hari ishyamba rinini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubw'ibiribwa, ubw'ibiti bidufasha guhumeka neza, ikibuga kinini giteweho ibiti birebire hino hari ubusitani bwiza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu kigizwe n'imisozi miremire, imigufi n'ibibaya. Ikibaya kinini gihinzwemo urutoki, impande yaho hari ishyamba, rifite ibiti birebire.

U Rwanda ni Igihugu cyiza cyane gifite ibyiza nyaburanga nk'imisozi miremire, imigufi, ibibaya, imigezi myiza cyane. Ishyamba rinini ritewe ku musozi rifite ibiti byiza cyane bikuze, imbere yaho hari undi musozi ukorerwaho ubuhinzi.

U Rwanda ni Igihugu kiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya n'ibiyaga. Ikibaya kinini kirimo ibyatsi bya kimeza, iruhande hari amashyamba maremare akuze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo umuceri hagati harimo ikiyaga cy'amazi meza cyane, hejuru y'ikiyaga hakikijweho ibiti binini cyane byiza, impande hari umugabo uhagaze mu muceri.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya byiza cyane, amashyamba atewe ku musozi muremure akorerwamo ubushakashatsi harimo n'inyamaswa zikurura ba mukerarugendo.

Amashyamba akomeje gutegwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko adufasha mu bintu byinshi, mu nkwi zo gucana, mu kubakisha amazu n'ibiraro by'amatungo. Ishyamba rinini rifite ibiti bikuze n'ibitarakura, harimo ibyatsi bya kimeza.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane gifite ibyiza nyaburanga nk'amashyamba ya kimeza atewe ku misozi, hagati mu ishyamba harimo umugezi ufite amazi meza atemba amanuka. Iruhande ku ishyamba hateweho n'ibindi biti birebire.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane kigizwe n'amashyamba meza cyane, ishyamba rinini ririmo inyubako nziza cyane yicaweho n'bana bambaye imyenda y'umweru imbere yabo hari umugore ufite igikapu mu ntoki.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya byiza cyane bikorerwamo ubuhinzi. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, imbere yaho hari undi murima udahinzwe urimo igiti kirekire.

U Rwanda ni Igihugu cyiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufiya, umusozi muremure uhinzweho ishyamba ryiza cyane, harimo inyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakishyura amadovize. Hagati mu ishyamba harimo abanyamahanga baje kureba inyamaswa.

U Rwanda ni Igihugu cyiza gifite ibyiza nyaburanga; amashyamba, imihanda myiza cyane. Ishyamba rinini ririmo inyubako zisakaje amabati y'umweru, iruhande hari umuhanda mwiza, uri kugendwamo n'abantu.

U Rwanda ni Igihugu cyiza cyane gifite ibyiza nyaburanga, nk'amashyamba ya kimeza arimo ibiti binini byiza cyane, abamo inyamaswa nyinshi ziza kurebwa na ba mukerarugendo bakaduha amadovize atuma Igihugu cyacu gitera imbere.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu bworozi bw'amatungo maremare kuko bubafasha kugera kuri byinshi. Urwuri runini rurimo ishyo ry'inka ziri kurisha ibyatsi, iruhande hari ibiti birebire.

U Rwanda ni Igihugu kiza, gifite imisozi miremire, imigufi, ibibaya. Mu misozi miremire hateweho ibiti birebire cyane birinda amasuri. Ishyamba rinini imbere yaryo hahinzwe indabo.

U Rwanda ni Igihugu kiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufi n'ibibaya byiza cyane. Ikibaya kinini kirimo umugezi ufite amazi yanduye hakikijweho ibiti birebire, hari igiti kimwe cyaguye mu mazi.

U Rwanda ni Igihugu kiza kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya, hagati mu misozi haciyemo imigezi ifite amazi atemba ishyamba rinini cyane rifite ibiti bikuze ritewe ku musozi, iruhande hari irindi ritarakura.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwabo, igishanga kinini gihinzwemo amasaka atarera, harimo ibiti birebire birinda isuri mu mirima.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urwuri runini rurimo ishyo y'inka ziri kurisha hagati hagiye habamo ibiti bikuze cyane bifite amatabi maremare.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima uhinzwemo imbuto z'amapapayi zitarera, inyuma yazo hari inyubako isizwe irangi ry'umuhondo, isakaje amabati y'umweru.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubateza imbere bukabageza kuri byinshi cyanecyane ubuhinzi bw'imboga butuma babaho neza. Isoko rinini riri gucururizwamo inyanya nziza cyane harimo abagore batatu umwe afite indobo y'icyatsi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga nyinshi mu gukora kwabo. Umurima munini uhinzwemo amatunda meza cyane amwe areze andi ntabwo arera, hagati mu murima harimo umugore ufashe ku matunda.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko bitugeza kuri byinshi, urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko baje kugura imboga hatanditsemo inyanya, intoryi, amashu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi butandukanye, ubuhinzi bw'indabo bwiza cyane ziri mu murima zisa neza zifite amabara y'umutuku, umweru n'umuhondo, iruhande rw'umurima hari umugabo uri kwitegereza izo ndabo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibaya kinini gikorerwamo ubuhinzi bw'ibirayi buhinzwe ku mironko igiye itambika, haraguru hari indi mirima itarahingwa, inyuma hari amashyamba manini cyane.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga, mu murima munini uhinzwemo imboga hahagazemo umugore wambaye umupira w'umweru umaze gusoroma imboga ari kuzishyira mu gitebo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, Abanyarwanda bakomeje kubona umusaruro uhagije. Isoko riri gucururizwamo imboga, imiteja n'urusenda biri hamwe biri gucururizwa mu isoko.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto kuko bubafasha kubaho neza bakabona amafaranga. Umurima munini uhinzwemo imbuto hahagazemo abagabo batatu.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubusitani bunini buhinzwemo indabo nziza cyane zifite ibara ry'umutuku n'umweru. Imbere yaho hari ibiti binini bikikije ubwo busitani.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga kuko bubageza kuri byinshi ukabafasha no kubaho neza, umurima munini uhinzwemo amashu, hagati mu murima hahagaze umugabo ufite inyanya na karoti.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubuhinzi bw'imboga buhinzwe mu murima munini, amashu, hagati mu murima harimo abagore babiri bari kugenda bayakorera neza, inyuma yabo hari inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto nk'inanasi zihinzwe mu murima munini cyane. Hagati mu murima, harimo umugore witeze igitambaro cy'umutuku, wikenyeje igitenge cy'ubururu, uri gusarura inanasi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga, umurima munini uhinzwemo imboga z'amashu n'inyanya, imbere yaho hari undi murima uhinzwemo indabo z'umuhondo n'umutuku, hakurya hari umugabo uri kureba mu wo murima.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto kuko bubageza kuri byinshi bukabafasha kubaho neza bafite ubuzima bwiza. Umurima munini uhinzwemo imyembe igiye iterwa ku murongo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubwimbuto ubw'imboga, umurima munini uhinzwemo imbuto z'amatunda zeze, harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara uri gusoroma izo mbuto.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bageza kuri byinshi, umurima munini uhinzwemo imbuto z'inkeri harimo abagore babiri bari kuzikorera neza bakenyeye ibitenge, iruhande rwabo hari undi murima udahinzwe.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umusaruro ukomeje kuboneka. Umurima munini uhinzwemo inyanya nziza cyane zeze n'izindi zitarera, iruhande hari umugabo uri kureba izo nyanya.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyane cyane ubuhinzi bw'imbuto. Imbuto z'inanasi zihinzwe mu murima umwe, iruhande hakikijweho ibiti birebire. Imbere yaho hari umugore uri kureba mu murima.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashyize imbaraga mu buhinzi bw'imboga kuko bageza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo imboga z'amashu hagati mu murima harimo abagore n'abagabo bari kureba uko imboga zimeze.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto kuko bubafasha kugera kuri byinshi, umurima munini uhinzwemo amatunda yeze n'andi atarera, imbere yaho hari umugabo uri kureba mu murima.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto. Umubande munini uhinzwemo imbuto za avoka zitarajyanwa mu mirima hirya no hino, hagati aho zihinze hari umugabo ufite igiti cya avoka mu ntoki.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto, umurima munini uhinzwemo inanasi, harimo umugore wambaye imyenda y'umutuku n'umukara uri kuvomerera, hakurya hari undi murima uhinzwemo ibigori.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini ukorerwamo ubuhinzi bw'imboga z'inyanya. Harimo umugabo uri kuvomerera izo nyanya, inyuma ye hari abagore bari gutera izindi, inyuma y'aho hari urutoki runini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tugezwaho n'imashini nziza zidufasha kuvomerera imyaka. Ikibaya kinini gihinzwemo ibigori byiza cyane, imbere yaho hahagaze umugabo urikora neza imashini ivomerera imyaka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwa kijyambere. Umurima munini uhinzwemo inkeri ziteye ku murongo utambitse. Hagati y'umurongo n'undi harimo imashini ivomerera izo nkeri.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubafasha kugera kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo imboga nziza cyane, harimo n'imashini ziri kuvomerera iyo myaka hepfo hahinzwe ibigori byiza cyane, hakurya hari amashyamba manini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga. Umurima munini uhinzwemo ibigori byiza cyane bitarera, hagati mu murima harimo imashini ivomerera ibyo bigori.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera bashoje kubagarira. Hagati mu murima hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umutuku.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo urutoki, iruhande hari intabire itaraterwamo imyaka, hari umugabo uri kuvomerera intabire yifashishije igikoresho gifite ibara ry'icyatsi bifasha mu kuvomerera imyaka.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori. Iruhande hari abagabo babiri, umwe ari kuvomerera, hepfo hari abandi babiri, uw'imbere na we ari kuvomerera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo inyanya zitarera harimo imashini ziri kuzivomerera. Hakurya hari umugabo wambaye ishati y'umweru uri kureba mu murima.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga. Umurima munini uhinzwemo intoryi zitarera, hagati mu murima harimo umugabo uri kuvomerera. Iruhande rw'intoryi hahinzwe urutoki.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga n'umurava mu buhinzi bw'imboga kuko bu ubageza kuri byinshi bukabafasha kubaho neza, umurima munini uhinzwemo imboga z'amashu, harimo umugore uri kuvomerera ayo mashu.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo imyumbati imbere yawo hahinzwe ibirayi, hepfo hari umugezi munini bifashisha bavomerera iyo myaka, haraguru y'umugezi hari gutambuka abantu.

U Rwanda ni Igihugu cyiza kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya, ku misozi hejuru hatuweho abantu bafite inyubako zisakaje amabati y'umweru, hasi mu bibaya hatewemo ibiti bitarakura.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo imboga, harimo umugore ufite indobo y'umukara uri kuvomerera izo mboga. Iruhande hahinzwe amateke.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe mu matsinda bashaka ibyabateza imbere; ubuhinzi bunini bw'inyanya harimo abagore n'abagabo bamwe bari kuvomerera imyaka abandi bari kuyibagarira.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kinini gihinzwemo umuceri utarera, hagati mu murima harimo umugore wambaye ikanzu y'umukara uri kuvomerera uwo muceri.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubafasha kugera kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo urutoki, iruhande hari indi ntabire iri kuvomererwa n'umugabo na yo bari guteramo urutoki.

Abanyarwanda bakomeje gukoresha imbaraga mu buhinzi bashaka icyabateza imbere, umurima munini uhinzwemo amatunda atarera, asasijwe ibyatsi byumye, harimo imashini y'umukara iri kuvomerera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uciwemo ibice hagiye haterwamo ibishyimbo ahandi amatike, abantu batatu buri umwe ari kuvomerera.

U Rwanda ni igihugu kiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufiya, ibibaya n'ibishanga binini cyane bikorerwamo ubuhinzi. Ibishanga binini, bihinzwemo igihingwa mbaturabukungu k'icyayi, hagati hagiye habamo amazi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo umuceri utarera, iruhande hakikijweho amashyamba manini afite ibiti birebire, hagati mu muceri harimo abantu bari kuwukorera.

U Rwanda ni Igihugu cyiza, gifite ibibaya, imisozi miremire n'imigufi, ikibaya kinini kirimo amazi meza cyane, iruhande hari inyubako isakajwe amabati y'umweru, ifite inzugi z'ubururu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bakorana umwete. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, harimo umugabo uri kuvomerera, wambaye ingofero y'umweru. Imbere mu bigori harimo n'ibishyimbo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera. Iruhande hari ishyamba rinini hagati mu murima w'ibigori hacishijwemo igihombo gitwara amazi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubw'imboga, umurima munini uciwemo imitabo, buri mutabo utewemo imboga z'amashu ziteye ku muronko harimo n'ibikoresho byifashishwa mu kuzivomerera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga kuko bubageza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo amashu meza cyane hagati mu murima harimo umugore uri kuvomerera ayo mashu inyuma yi'we hari undi murima udahinzwe.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane, kigizwe n'imisozi miremire, imigufi n'ibibaya. Imirima minini iri ku misozi, ihinzwemo ibigori, ibishyimbo, hariho inyubako isakajwe ibati ry'umweru.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane ,kigizwe n'imisozi miremire ,imigufi ,n'ibibaya, inyubako ziri ku musozi muremure, zisakajwe amabati y'umweru ,ariho n'amashyamba atarakura.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibibaya bihinzwemo imyaka nk'ibishyimbo n'ibigori, hejuru ku misozi hateweho amashyamba. Hirya hari inyubako zisakajwe amabati y'umweru.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane, kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya ibiyaga byiza cyane. Imisozi miremire, iriho amashyamba meza cyane n'ibibaya bitewemo imyaka, hakaba n'andi mashyamba arimo inyamaswa.

U Rwanda ni igihugu cyiza, gifite ibyiza nyaburanga nk'inyamaswa, indungurutsi, ziba mu mashyamba, zikurura ba mukerarugendo baje kuzireba bakaduha amadovize, atuma igihugu cyacu gitera imbere. Ishyamba rinini ririmo indungurutsi.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe, bashaka icyabateza imbere, bita ku bidukikije. Imirima minini, idahinzwe, hagati mu murima hahagazemo abagore, abagabo, bambaye imipira y'ubururu, bose bari gutera ibiti, barinda isuri mu mirima.

U Rwanda ni Igihugu cyiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya, umusozi muremure uteweho ishyamba, hakuno hari ahandi hari umusozi mugufi uriho inyubako zisakajwe amabati y'umweru.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo umuceri utarera, hagati mu muceri hanyuzemo umugezi ufite amazi meza. Haraguru y'umugezi hari ishyamba rinini.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga nk'imisozi miremire, imigufi n'ibibaya, ikibaya kinini gihinzwemo ibigori, hejuru ku misozi hari inyubako zisakajwe amabati y'umweru.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane ,kigizwe n'imisozi miremire, imigufi ,ibibaya, imigezi itemba, imisozi miremire ihinzweho insina ,hepfo hari umugezi munini utemba amazi amanuka.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya, n'ibiyaga bigiye biba hagati mu misozi. Umusozi mwiza cyane utewe w'ishyamba rifite ibiti birebire bikuze imbere yaho hari undi murima udahingwa.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibaya kinini cyane gihinzwemo ibigori, hirya y'ibigori hari indi mirima idahinzwe n'indi imaze guhingwa, haruguru hari ishyamba ryiza cyane rifite ibiti binini.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya n'ibiyaga, imirima minini iri ku misozi ihinzwemo ibigori, ingano, iruhande hari amashyamba maremare akuze.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya, n'ibiyaga. Imisozi miremire iteweho amashyamba, ibibaya bihinzwemo ibigori byiza cyane. Hepfo y'umurima w'ibigori hari undi murima utarahingwa.

U Rwanda ni Igihugu kiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya byiza cyane. Ikibaya kinini kirimo umugezi ufite amazi meza cyane, hakikijweho ibiti byiza bikuze.

U Rwanda ni Igihugu cyiza cyane gifite imisozi miremire, imigufiya, ibiyaga byiza cyane. Imisozi miremire iteyeho amashyamba, hasi mu bibaya harimo imigezi myiza cyane ifite amazi meza, haciyemo n'imihanda.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi miremire, ibibaya, n'imisozi migufi cyane, n'ibiyaga bigiye biri hagati mu misozi. Ibibaya byiza cyane bikorerwamo ubuhinzi, imirima minini ihinzwemo ibigori, inyuma yaho hari inyubako isakajwe amategura.

U Rwanda ni Igihugu cyiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, n'ibiyaga byiza cyane biri mu bibaya, imisozi miremire ikorerwaho ubuhinzi hahinzweho ingano zitarera n'indi misozi iteweho amashyamba.

U Rwanda ni Igihugu kiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya, ku misozi migufi hatuwe n'abantu bafite inyubako zisakaje amategura, hepfo y'aho hari urutoki runini, hakurya hari amashyamba meza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi bikadufasha kubona ibidutunga. Umurima munini uhinzwemo urutoki, hepfo hahinzwe ibigori iruhande hari undi murima umaze guhingwa utaraterwamo imyaka.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane kigizwe n'imisozi miremire imigufiya n'ibibaya. Umusozi muremure uriho ishyamba rya kimeza rifite ibiti birebire n'ibindi bitarakura hakurya hari ikindi kibaya gihinzwemo umuceri.

U Rwanda ni Igihugu cyiza kigizwe n'imisozi miremire, imigufiya n'ibibaya n'ibiyaga binini biri mu bibaya, imisozi miremire iteweho amashyamba akuze, ahandi hari imirima ihingwa imbere mu murima hari ikiraro cy'inka.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, imirima ihinzwemo icyayi, igihingwa ngandurabukungu, iruhande hahinzwe ibishyimbo, hari amashyamba manini afite ibiti bikuze.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rugizwe n'ibyiza nyaburanga nk'imirima ihinzwe kijyambere, inyubako nziza zisakajwe amabati y'umweru ziri hagati y'imirima, haruguru yaho hari ishyamba rinini.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare, nk'inka zitanga amata ifumbire yifashishwa mu buhinzi. Urwuri runini rurimo ishyo ry'inka, inyuma yaho hari umushumba wambaye umupira w'umutuku.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube. Ikiraro kinini kirimo ingurube ifite ibibwana byinshi biri konka, imbere y'aho hari ibiryo byayo birambitse mu mifuka.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'ubworozi bw'amatungo magufi, ikibuga kiriho intama eshatu ziryamye, iruhande hari urubuye runini.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, urwuri runini, rurimo ibiti birebire, harimo ishyo ry'inka n'abashumba bazo, bari iruhande. Inyuma hari ishyamba rinini, ririmo ibiti birebire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube zibafasha kubona ifumbire yo guhingisha ibihingwa, ikiraro kinini kirimo ingurube ibwagiye iri konsa ibibwana byayo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi kuko bageza kuri byinshi nk'inkoko ziduha amagi yo kurya. Inyubako nini yororerwamo inkoko hagati harimo ibikoresho byifashishwa mu kugaburira inkoko.

abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi kuko adufasha kugera kuri byinshi nk'ingurube zitanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi umusaruro ukiyongera inyubako nini yororewemo ibibwana by'ingurube

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi, amaremare. Amaremare nk'inka ziduha amata yo kunywa, ifumbire yifashishwa mu buhinzi. Ibiraro byiza binini birimo inka iri kureba imbere.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi kuko bubageza kuri byinshi. Umurima munini ukorerwamo ubworozi bw'amatungo magufi, amahene ari mu rwuri ari kurisha ibyatsi afite amabara y'umweru.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo amagufi n'amaremare. Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube buri kororerwa mu kiraro cyiza cyane mu kiraro habwagiyemo ingurube eshatu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi kuko bubafasha kugera kuri byinshi nk'ingurube ziduha ifumbire twifashisha mu buhinzi. Ikiraro kinini harimo ingurube ifite ibibwana bitatu.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishyo ry'inka riri mu rwuri, impande yaho hateye ibiti birebire cyane. Hagati harimo umushumba wazo wambaye umupira w'umutuku, uhagaze munsi y'igiti.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi ,kuko abageze kuri byinshi. lcyumba kinini cyororerwamo inkoko ,harimo inkoko z'umweru ,iz'umukara, hagati hagiye habamo ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi. Ikibuga kinini kiriho umukumbi w'amahene, inyuma hari urugo rwubakishije ibiti. Hagati mu kibuga harimo ibiti birebire bikuze.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe ibiti n'imbaho harimo inka ifite ubwatsi bwinshi imbere yayo, inyuma hari umugabo uri gukora isuku mu kiraro cy'inka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare, ishyo ry'inka riri mu biraro byiza cyane, imbere yaho hari abantu bahahagaze bari kureba ayo matungo. Izo nka zitanga amata aryoha n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ,ubwo amatungo maremare amagufi ,inyubako nini yororewemo inkoko zikiri imishwi ,n'imbere yazo hari ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubw'amatungo maremare, amagufi, ikibuga kinini cyubatsweho ibiraro bisizwe amarangi y'icyatsi harimo inka z'inyambo zifite amahembe maremare.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane yororerwamo inkoko nyinshi cyane, hagati mu nyubako harimo ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi n'ubworozi, icyumba kinini gisizwemo amarangi meza cyane gikorerwamo ubworozi bw'inkoko, zitarakura z'imishwi. Hagati harimo ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira.

Ubworozi bwa kijyambere bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amatungo maremare nk'inka ziduha amata ifumbire yifashishwa mu buhinzi. Ibiraro byiza binini birimo ishyo ry'inka, inyuma hari inyubako isakajwe amabati y'ubururu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi, inyubako nini isakajwe amabati ikingishijwe urugi rw'umutuku, mo imbere mu nyubako harimo inkoko, imishwi n'izindi zikuze.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, urwuri runini rurimo ishyo ry'inka, harimo n'ibiti birebire, zimwe zababyagiye izindi zirahagaze.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi kuko bubageza kuri byinshi, nk'inkoko ziduha amagi yo kurya tukagira ubuzima bwiza. Inyubako nini yororewemo inkoko ziri hamwe zifite n'ibyo kurya imbere yazo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi kuko bubafasha kugera kuri byinshi byiza. Inkoko zororewe mu cyumba kinini gisizwemo irangi ry'umuhondo. Hagati harimo ibikoresho bifite amabara y'umutuku n'umweru byifashishwa mu kugaburira inkoko.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'ingurube zidufasha kubona ifumbire twifashisha mu buhinzi. Ingurube nini cyane iri mu kiraro cyubakishijwe amatafari ahiye.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare, ishyo ry'inka riri mu rwuri harimo ibiti birebire, hirya hari umushumba wazo wambaye imyenda y'umweru n'undi mugabo uri gufotora.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi kuko bubafasha kubona ifumbire yifashishwa mu buhinzi. Ibiraro byiza cyane byubakishijwe ibiti hakikijweho imbaho, hagati mu biraro harimo ingurube ebyiri.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare kuko bubafasha kugera kuri byinshi, ubworozi bw'inka zitanga umukamo tukabona amata yo kunywa, ifumbire yifashishwa mu buhinzi, ishyo ry'inka riri mu biraro.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo amagufi n'amaremare, nk'amaremare nk'inka zitanga amata, ifumbire yifashishwa mu buhinzi. Ikibuga kinini cyubatsweho ibiraro harimo inka zifite amahembe maremare.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini irimo ishyo ry'inka imbere y'aho hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ingofero y'umutuku ufashe ku nka ifite ibara ry'umukara.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu bworozi bw'amatungo maremare nk'inka ziduha amata yo kunywa, ifumbire yifashishwa mu buhinzi. Urwuri runini rurimo ishyo ry'inka ziri kurisha, iruhande hari ibiti birebire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko ziduha amagi yo kurya bigatuma tugira ubuzima bwiza. Inyubako nziza cyane yubakishijwe ibiti harimo inkoko nyinshi, izifite amabara y'umutuku n'umukara.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'ingurube zitanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi. Ikiraro kinini kirimo ingurube iryamye iri kureba imbere.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cyubakishijwe ibyuma bisizwe irange ry'umutuku, hakingishijweho urugi rw'umutuku. Hagati harimo inka yunamye.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inka nini cyane ziri mu biraro zifite amahembe maremare, ziri mu biraro byubakishijwe ibiti bisizwe irange ry'icyatsi. Inyuma y'ibiraro hari abagabo batatu n'umugore umwe.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urwuri runini rw'umukumbi w'intama harimo umushumba wazo wambaye umupira w'umuhondo uhagaze munsi y'ibiti binini iruhande hari ishyamba rinini cyane.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'ingurube zidufasha kubona ifumbire, inyubako nini yororewemo ingurube ziri hamwe buri imwe irunamye iri kunywa amazi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi kuko butuma bagera ku iterambere. Ikibuti kinini cyororewemo inkoko nziza i z'umutuku iz'umukara hagati harimo ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi, bukabaha n'umusaruro uhagije. Abahinzi bakorera hamwe mu matsinda bari guhuriza hamwe imyaka yasaruwe nk'ibigori, byashyizwe mu mufuka w'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda budufasha kugera kuri byinshi n'iterambere, umugore ufite intara imbere ye yanitseho ikawa, iruhande hari ibitoki.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu' Rwanda umusaruro ukomeje kwiyongera. Ikibuga kinini kiriho ihema ryanitseho ibigori byumye, umugore urisanza ibigori kugirango byumme neza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi buduha umusaruro uhagije. Ikibuga kinini cyanditsweho ibigori byumye. Imbere yawo hari umugabo ufashe ibigori bibiri wishimiye umusaruro.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umusaruro ukomeje kwiyongera. Umusaruro w'impungure zanitse ku butanda, imbere yaho hari inyubako isakajwe amabati, inyuma hahinzwe urutoki.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere. Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukorerwa hamwe, uruhande rumwe rutewemo imbuto urundi rutewemo imboga. Imbuto nziza cyane z'ibinyomoro zitarajyanwa guterwa ziri aho bazitegurira.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini kirimo inka nziza, hahagaze abagabo batatu n'umugore umwe, bamwe bari kuvura iryo tungo.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini hahagaze ishyo ry'inka, zifite amahembe maremare, inyuma yaho hari ibiti birebire, imbere hari ibiraro byubakishijwe ibiti.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ibiraro byubakishijwe ibiti bishyizweho amarange y'icyatsi hagati harimo inka n'umuntu wize iby'amatungo uri kuyireba.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare, inka nini cyane iri kuvugwa n'abize ibyo kuvura amatungo iryamye hasi. Imbere yaho hari abandi bagabo bahicaye, inyuma hahinzwe ibigori.

Abanyarwanda bakomeje gushaka icyabateza imbere. Abaganga b'amatungo bambaye imyenda y'umweru n'udupfukamunwa bafite amazi imbere yabo mu icupa n'ibitambaro by'icyatsi, bambaye n'ibikoresho by'umweru mu maboko.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi n'amaremare, inka nini iri mu kiraro iri kwitabwaho n'abize ibyo kuvura amatungo, iyo nka irwaye uburwayi buri kwitabwaho.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubw'amatungo magufi, amaremare, inka nini iri mu kiraro inyuma yayo hari umugabo usa n'uri kuyivura, munsi hari undi wagira ngo ari guhumuza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare kuko bubageza kuri byinshi, tubonaho amata yo kunywa, ifumbire yifashishwa mu buhinzi, ibiraro byiza birimo ishyo y'inka zifite amahembe maremare.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, umugore uri hagati mu nkoko wambaye imyenda y'icyatsi uri kuzigaburira, inkoko zimwe ziri hejuru ku butanda izindi ziri hasi.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda haje n'abaganga bavura amatungo, inka nini inyuma yayo hari umuganga uri kuyivura iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti.

Ubworozi bw'amatungo amagufi, amaremare, bukomeje gutera imbere. Ibiraro birimo ishyo ry'inka zifite amahembe maremare, byubakishijwe ibiti bisizwe amarangi y'icyatsi. Inyuma y'ibiraro hari abantu.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje gutera imbere, amaremare n'amagufi. Ikiraro cyiza cyubakishijwe ibyuma, biteweho irangi ry'icyatsi, imbere mu kiraro harimo abagabo babiri, umwe ari kuvura amatungo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare nk'inka ziduha amata yo kunywa, zikaduha ifumbire yifashishwa mu buhinzi, umusaruro ukiyongera. Ikibuga kinini, kiriho inka nini cyane, inyuma yayo hari umugabo uri kuyivura.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini yubakishijwe ibiti harimo n'itara hororerwamo inkoko nini.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini cyane isizwamo amarangi y'umweru hahagazemo umukobwa n'umugabo bambaye udupfukamunwa, bose bize ibyo kuvura amatungo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare, ikiraro kinini cyubakishijwe ibiti bisizwe irange ry'icyatsi harimo inka z'Inyambo zifite amahembe maremare.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo amaremare nk'inka, ikibuga kinini cyubatsweho ibiraro byubakishijwe ibiti bisizwe amarangi y'icyatsi, izo nka zifite amarembe maremare, harimo uwize ibyo kuvura amatungo uri kuyavura.

U Rwanda ni Igihugu cyiza cyane gifite ubwiza nyaburanga, amashyamba meza cyane ya kimeza arimo inyamaswa nziza cyane zifite amabara meza. Ishyamba ririmo impala n'imparage ziri kureba imbere.

U Rwanda ni Igihugu kiza gifite ibyiza nyaburanga nk'amashyamba manini abamo inyamaswa nziza cyane. Ibiti binini biri mu ishyamba bimwe byatemwe ibindi bihagaze, ku giti cyatemwe hahagazeho inyamaswa nziza y'impongo.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi miremire ,imigufi n'ibibaya, hari amashyamba meza cyane abamo inyamaswa, nk'intare, ingagi, zizana ba mukerarugendo bakishyura amadovize.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane, gifite imisozi miremire, imigufi, ibibaya, imisozi miremire iteweho amashyamba meza, mu mashyamba habamo inyamaswa nziza cyane, zizana ba mukerarugendo, bakishyura amadovize.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rugizwe n'ibyiza nyaburanga imisozi miremire, imigufi, ibibaya. Mu misozi miremire hari amashyamba abamo inyamaswa nziza cyane zizana ba mukerarugendo.

U Rwanda ni igihugu cyiza cyane gifite imisozi miremire, imigufi, ibibaya n'ibiyaga byiza cyane, ishyamba rinini ririmo inyamaswa nziza cyane, ba mukerarugendo baza kureba bakishyura amadovize.

U Rwanda ni igihugu cyiza gifite ubwiza nyaburanga nk'amashyamba meza cyane arimo inyamaswa zigiye zitandukanye impara n'imparage, imvubu, indungurutsi, n'izindi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo.

U Rwanda ni igihugu cyiza gifite imisozi miremire, imigufi, ibibaya binini birimo imigezi itemba. Umurima munini uhinzwemo ibiti binini bikuze n'ibitarakura hepfo hari ikiyaga kinini.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi miremire ,imigufi, ibibaya n'ibiyaga byiza cyane. Ishyamba rinini ririmo inyamaswa nziza izana ba mukerarugendo, bakayireba bakishyura amadovize.